Aba ni abana babiri b'abahungu, bakaba bishimye cyane bari gukina n'amazi y'ivomero, umwe yambaye agapira k'umutuku, undi yambaye imyenda yo mu bitenge yiganjemo amabara y'icyatsi, bimeze nkaho bari mu giturage, ahantu inyuma yabo hari ubwatsi bwumye, ndetse n'igiti kitakigira amashami.

Iri ni itsinda ry'abantu bari mu ngero zigiye zitandukanye, hakabamo abagabo, harimo abagore ndetse n'abakobwa, bakaba bafite impapuro zanditseho amagambo, bakaba bahagaze ahantu mu gisambu, inyuma yabo hari akazu kubakishijwe amabati.

Iyi ni inzu mberabyombi irimo abantu benshi bagiye batandukanye, irimo abagabo, irimo abagore. Hirya yaho gatoya harimo insakazamashusho by'umwihariko muri ino nzi hahagazemo abantu bane. Babiri muri bo bari imbere, umwe afite indangururamajwi akaba ahagararanye n'umukobwa wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara.

Uyu ni umugabo w'umwirabura uhagaze yegamiye igikuta cy'umweru, akaba araramye asa nk'uri kwitegereza ikintu kiri hejuru, yambaye ishati y'igitenge iri mu mabara y'umuhondo n'umutuku uvanze, ndetse n'ipantaro y'umukara, n'aho ahagaze ku ruhande rw'iwe hagiye hameraraho utwatsi.

Aba ni abantu benshi batandukanye ariko basa n'aho bahurijwe hamwe n'ikintu kimwe baregeranye ku buryo bimeze nk'abagiye gufata ifoto bamwe baricaye abandi barahagaze ndetse bakaba ari mugezi zitandukanye aho higanjemo urubyiruko bamwe bambaye udupira tw'umukara, abandi bambaye amashati ndetse abandi bambaye amakoti.

Uyu ni umugabo uri mu za bukuru wasinziriye yifashe mu bwanwa, akaba afite n'ikaramu. Yasinziriye bisa nkaho yari ari gusoma igitabo ndetse afite n'ahantu ku ruhande ari kwandika. Akaba yambaye ishati y'ibara rimwe, ndetse akaba afite n'amadarubindi. Naho inyuma ye hakaba hasa umweru.

Uyu ni umubyeyi w'umugore akaba akikijwe n'abana benshi bishimye, harimo abahungu, harimo abakobwa bamwe bararangaye ariko abandi bari kundeba, inyuma yabo gato mu nguni hakaba hateretse akagunguru k'ubururu gafite umupfundikizo w'umukara.

Aha ni mu cyumba cy'ibagiro kirimo abaganga bane ndetse n'undi umwe utagaragara neza, hagaragara igice cye cy'akaboko, inyuma yabo hari insakazamashusho ebyiri bimeze nk'aho batangiye ibagwa.

Uyu ni umusore n'umukobwa, umusore akaba agaramye ku gatanda areba hejuru yamba agapfuroma k'umukara n'ingofero y'umukara, ndetse n'umupira w'amaboko magufiya, iruhande rwe hunamye umuganga w'umugore wambaye nawe we agapfukamunwa, akaba agiye kumukorera isuzuma ariko akaba agiye kubanza kumufata amaraso.

ahandi mu kigo nderabuzima. Iki akaba ari icyumba cyahariwe abagore bagiye kubyara. Imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa. Naho hirya yaho hakaba hari ibindi byumba birimo ikigo nderabuzima ariko imbere hakaba hari ubusitani.

Aha ni mu kigo runaka. Hakaba hari inzu aho uruhande rumwe ruparitseho imodoka, hakaba ariho n'abantu bane. Batatu muri bo bakaba bakoze itsinda bari kuganira ku bintu runaka, naho undi umwe yegereye imodoka. Naho ku rundi ruhande rw'iyo nzu hakaba hari abantu batanu, aho bane muri bo bakoze itsinda bari kuganira, naho undi umwe akaba ari ku ruhande ari kuri telefone.

Iri ni ivuriro, iki akaba ari icyumba kirwariyemo abarwayi bagiye batandukanye, aho bamwe baryamye, ariko abandi bakaba bari kwitabwaho n'abaganga, sibyo gusa kandi hakaba hari umusore n'umukobwa bari gukora amasuku muri iki cyumba.

Iki ni icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byinshi bigiye bitandukanye, harimo amatara y'ubwoko bwinshi, harimo insakazamashusho zigiye zitandukanye ndetse hakaba hariho n'udutanda dutwikirijweho udutambaro tw'ubururu.

Aha ni abantu babiri bahagaze ariko bahishwe amasura. Umwe afite umupira w'amaguru mu ntoki ziwe, undi ahagaze mu kagare k'ubururu bisa nk'aho abana n'ubumuga bw'ingingo. Yambaye umupira w'umuhondo, agakabutura k'umukara ndetse n'udukweto dutoya tw'umukara turimo umweru mukeya.